Ni inama igizwe n'abayobozi imbere hari umuyobozi w'umugore urimo atanga ibiganiro ufite indangururamajwi ari gutanga ibiganiro yifashishije porojegiteri.

Ni inama igizwe n'abayobozi harimo umuyobozi umwe ufite mudasobwa arangariye kuri mudasobwa ye abandi barakurikiye, uyu muyobozi wundi uri hirya ye nawe ararangaye ntakurikiye ariko abandi barakurikiye.

Biragaragara ko ari icyumba gikorerwamo inama, bakaba bayisoje, bafashe ifoto y'urwibutso.

Ni ibiganiro by'abanyeshuri bari ku rugerero imbere yabo hari abayobozi bakuru babahagarariye baje kubaha ibiganiro baturutse mu karere kugira ngo babahereza amakuru atandukanye kubijyanye n'inyigisho z'urugerero.

Ni inama igizwe n'abayobozi batandukanye, biragaragara ko ari abayobozi bakurikiye, inama bari guhabwa, muri iyi nama harimo n'umuzungu umwe, iruhande rw'uyu muzungu harimo umuyobozi umwe ufite mudasobwawe uri kureba muri mashini, n'uyu muzungu bararangaye ntabwo bari gukurikira inama.

Ni inama igizwe n'abayobozi. Abayobozi buri wese ajya agira indangururamajwi imbere, gusa umuyobozi umwe niwe uri mo uratanga ikiganiro. Imbere yabo hagiye hateretse ibipapuro ku meza hariho n' amazi yo kunywa.

Ni inama irimo abayobozi batandukanye, imbere y'aba bayobozi; hari abandi bayobozi, bagiye gutanga ibiganiro, bayoboye ino nama.

Biragaragara ko ari abaturage bitabiriye inama z'ibikorwa remezo zibateza imbere.

Ni umuyobozi uri gutanga ikiganiro ufite mudasobwa iruhande rwe hari icupa ry'amazi ari kuvugira ku ndangururamajwi atanga ikiganiro.

Ni inama igizwe n'abayobozi batandukanye, muri iyi nama hari umuyobozi uhagaze hagati na hagati y'aba bayobozi, afite indangururamajwi, bigaragara ko arimo arabaha ikiganiro.

Ni inama igizwe n'abayobozi, imbere hari umuyobozi uri gutanga ikiganiro, harimo abayobozi bamukurikiye bigaragara ko bari konsatere y'ibyo ari kubabwira; hakaba harimo undi muyobozi umwe usa nk'urangaye utari gukurikira.

Ni abayobozi bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo abagore n'abagabo.

Ni inama igizwe n'abayobozi, muri iyi nama inyuma hicaye abayobozi bigaragara ko ari bakuru, bakurikiye ibiganiro bishimye bari guseka.

Iyi nama ikurikiwe n'abayobozi batandukanye, imbere yaba bayobozi hari abandi bayobozi bagiye kubaha ibiganiro bafite indangururamajwi imbere yabo hateretse na mudasobwa.

Ni inama igizwe n'abayobozi batandukanye, aho buri wese afite indangururamajwi.

Ni inama yitabiriwe n'abaturage, imbere y'abo baturage ku murongo wa mbere hicaye abayobozi, bari gukurikira ikiganiro bari guhabwa.

Ni abanyeshuri bari gukoresha mudasobwa bigaragara ko ari nkaho muri kompiyuta labu, cyangwa icyumba cyabugenewe mu gukoresherezwamo imashini, harimo abarimu bari kugenda baberekera ku mashini isa nkaho bari kubigishirizaho.

Ni abagenzi bari muri bisi aba ni abagore babiri, bigaragara ko bose bafite telefone ariko bisa nk'aho barimo barere barerekana muri telefone berekana, umwe ari kwereka undi muri telefone ye undi nawe abafite terefone bisa nkaho hari ibyo bari gukora.

Ni ikinyabiziga kiri hagati muri kaburimbo, cya parado, iri kugenda iruhande hari ikindi ikinyabiziga cya moto giparitse, imbere y'iyo moto iparitse, hari umugenzi w'umunyamaguru urimo atambuka

Ni akazu ka emutiyene gakorerwamo n'abajenti ba emutiyene, aka kazu biragaragara ko gashaje, inyuma y'aka kazu hari umunara muremure bigaragara ko ari ushinzwe gutanga umuriro.

Ni umuhanda wa kaburimbo kuri uyu muhanda hari icyapa kigaragaza ko hari amerekezo y'ivuriro rya Kabgayi, bigaragara ko yari aderesi cyangwa se indangakerekezo igaragaza ko hano hari ivuriro rya Kabgayi.

Biragaragara ko ari kwa muganga imbere hari jaride, iruhande hari umuganga cyangwa se umunanse wambaye agapfukamunwa uhagaze imbere y'umuryango ku bitaro uiri muri telefone, inyuma ye hari amasikariye azamuka agana mu yindi miryango itangirwamo serivisi.

Ni amburanse iparitse kwa muganga nta mushoferi urimo ,iruhande rwayo hasi hari amayesikariye amanuka.

Ni imodoka za leta ziparitse muri parikingi ari ebyiri, mu rurimi rw'amahanga bazita ambiranse, ziri muruhande rw'iburyo, hepfo mu ruhande rw'ibumoso hari ivatiri.

Ni abaturage benshi bicaye kwa muganga bategereje guhabwa serivisi zo kwivuza, imbere yabo baturage hari umuganga usohotse. umuryango ahagazemo urimo hamagara abarwayi.

Mu muhanda rwagati mu masaha y'ijoro aha hino kuri iki gice kigendedwaho n'abanyamaguru hari ububiko bwagenewe kubikamo cyangwa kujugunywamo imyanda ikoreshwa n'abakoresha umuhanda harimo ibinyabiziga biri kugendera mu muhanda bibisikana by'umwihariko imodoka inini n'intoya ndetse n'abanyamaguru bari gukoresha umuhanda.

Ni inyandiko yanditse mu buryo butandukanye bw'ururimi bw'ikinyarwanda, icyongereza, n'igifaransa.

Biragaragara ko ari umugabo wambaye impuzankano z'ubushinjacyaha, ashinzwe mu kunga abaturage mu gukemura ibibazo byabo baba bagiranye.

Ni umugabo wambaye impuzankano y'ubushinjacyaha ashinzwe gukemura cyangwa se kunga ibibazo abaturage baba bagiye bagirana .

Abagore n'abagabo babiri bari gusuhuzanya bigaragara ko ari umugabo uje gusura imfungwa yo muri gereza yambaye ishati y'iroza bigaragara ko yakatiwe.

Biragaragara ko ari imfungwa z'abagore cyangwa se z'igitsina gore zo muri gereza bisa nk'aho zafunzwe zambaye impuzankano ya gereza, zisa nk'aho zirimo zirumva ibiganiro zirakurikiye.

Ni umugabo wambaye ishati y'iroze na baji mu gatuza, uhagaze hagati na hagati mu baturage benshi, bigaragara ko ari nkaho ari gushinjwa icyaha, bamwita Kizito Kizito Mihigo.

N inama imbere hari abayobozi bayoboye iyo nama bicaye. Imbere yabo hari umuturage umwe uhagaze, bisa nk'aho ari kubaza ikibazo abayobozi. Inyuma ye abaturage baricaye bateze amatwi ibyo mugenzi wabo arimo arabaza.

Biragaragara ko ari umuyobozi wambaye amapingu ndetse wambaye neza cyane kositimu, iruhande rwe agaragiwe n'abapolisi bamurinze. Avuye mu modoka yanditseho ribu, bigaragare ko bisa nkaho agiye mu rukiko rw'ubushinjacyaha.

Ni igazeti ijyanye n'amategeko, n’igazeti ikaba iri mu bika bitatu, igika cya mbere cyanditse mu kinyarwanda, igika cya kabiri cyanditse mu cyongereza, igika cya gatatu cyanditse mu gifaransa.

Ni umusirikare w'umujenerari; ari kurahira amanitse ukuboko afashe ku idarapo ry'igihugu.

Ni umuhanda w'igitaka hari ibinyabiziga bitandukanye biparize, n'ibiri kugenda bigaragara ko ahantu bahigishiriza gutwara ibinyabiziga, imbere hari umupolisi arimo arakomekana na mugenzi we cyangwa se ari kuvugana na mugenzi we bifashishije ibimenyetso kubera ko bategeranye umwe ari kure ye.

Iki ni igikoresho cya kizimyamoto cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe yabayeho mu mazu.

Biragaragara ko ari abayobozi bane, bahagaze, umwe muri bo afite indangururamajwi ari kuvugiramo atanga ikiganiro, hirya ye ku muyobozi ubanza afite urupapuro na we bisa nk'aho ari buze gutanga ibiganiro.

Ni inama igizwe n'abayobozi batandukanye, buri wese afite mudasobwa ye, ahugiye mu kazi akurikiye ibiri gutangirwa kuri mudasobwa.

Ni abayobozi bane bahagaze imbere, bigaragara ko umwe afite indangururamajwi ya mikoro, arimo aratanga ikiganiro, hirya ye hari undi ufite igipapuro bisa nkaho nawe kwitegura kuza kuba ari buvuge.

Ni umugore ufashe abana babiri b'abahungu batoya ku rutugu bigaragara ko bari gufata ifoto, bari hagati y'amarido muryango uwo mugore yambaye ikanzu y'ibitenge na abana bambaye udukositimu, gusa umwe ni muto undi ni mukuru.

Ni umuyobozi w'umugore, bisa nk'aho yicaye muri biro yiwe, imbere ku meza hari idarapo ry'u Rwanda, birasa nk'aho arimo gufata ifoto.

Ni inama igizwe n'abayobozi benshi batandukanye, buri muyobozi imbere hari indangururamajwi n'agacupa kamazi.

Biragaragara ko ari umuturage ubana n'ubumuga, urimo uratora umuyobozi, agiye gushyira ijwi rye mu gakarito.

Biragaragara ko ari umugore usa nk'aho yicaye mu biro bye, ari gufata ifoto.

Ni aba mama babiri bambaye impuzankano imipira y'imweru umwe yambaye ijipo y'umukara n'ipantaro y'umukara, birasa nk'aho barimo barafatanya gushyiraho ikintu cyaba kitariho neza umwe arunamye undi arimo, barimo barafashanya.

Ni abakandinda ba leta biyamamarizaga ubuperezida. Aya ni amanota bagiye bagira mu kwiyamamaza, Poro Kagame mirongo ikenda n'ikenda n'ibice cumu na bitanu ku ijana, Furake habineza zeru n'ibice mirongo itanu na bitatu, Filipe Mpayimana zeru n'ibice mirongo itatu na bibiri ku ijana.

N' inama igizwe n'abayobozi benshi, biragaragara ko bakurikiye, inama bari guhabwa gusa harimo umugabo umwe, bisa nkaho amanitse urutoki agiye kubaza ikibazo.

Biragaragara ko ari abaturage benshi, bambaye impuzankano iriho ikirangantego cya Efuperi, bigaragara ko barimo baramamaza ishyaka rya Efuperi.

Ni umuhanda wa kaburimbo, muri uyu muhanda hagati harimo ikinyabiziga cy'ikamyo cyikoreye imizigo ya gaze, impande n'impande, muri uyu muhanda wa kaburimbo hari inzira z'abanyamaguru.

Ni kaburimbo irimo ibinyabiziga ivatiri yo mu bwoko bwa lava, iruhande rw'ivatiri iri kuzamuka igenda iruhande rwayo hari igikamyo gishinzwe gutwara imizigo kiyambukiranya imipaka, iruhande hari umunyamaguru wikoreye agafuka bisa nkaho ari umukarani.

Ni umuhanda wa kabarimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, amavatiri ndetse na moto, izi moto zitwaye abagenzi ziri kugenda, imbere hari ivatiri y'umweru nayo iri gukomeza igenda muri kaburimbo.

Ibinyabiziga biparitse muri parikingi ya kaburimbo yabugenewe ibinyabiziga ni moto zishinzwe gutwara abantu zibakura ahantu hamwe zibageza ahandi izi moto zicayeho abamotari hari n'abatazicaye ho baparitse bategereje abagenzi.

Ni igikamyo cyikoreye imizigo, cyangwa se gishobora kuba cyikoreye umucanga, ariko ikaba itwikiriwe hejuru ikamyo, iri kugenda mu muhanda rwagati, muri kaburimbo, ari yonyine. Iburyo n'ibumoso hari inzira z'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo igikamyo kitikoreye imizigo kiri kugenda, inyuma y'iki gikamyo hari moto na zo ziri kugenda zihetse abagenzi, iruhande hari inzira z'abanyamaguru bari kugenderaho, kuri iyi inzira y'abanyamaguru hariho umugabo wikoreye umuzingo, urimo uragenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye moto n'igikamyo kinini gishinzwe gutwara imicanga kiri kuzamuka, moto ziye kuzamuka hariho moto ziriho abagenzi izishinzwe kujyana ibiryo ahantu hatandukanye n'amaga n'igare.

Imodoka ya rukururana y'umweru iri mu muhanda wa kaburimbo. Hirya y'umuhanda irimo hari ibiti.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo igare riri kugenda ryikoreye imizigo iruhande rwuwo muhanda hari inzira y'abanyamaguru.

Iki ni icyapa kigaragaza ko igihe bisi zirimo ziragenda hano muri kaburimbo zemerewe kuba zahagarara, zigaparika, abagenzi bakavamo.

Ni umusore uhagaze mu nzira y'abanyamaguru uri gufata ifoto, hejuru ye hari icyapa kigaragaza ko ahagana mu akarere ka rusizi hanyuma aje mu Rwanda iruhande rw'iki cyapa handitse welikamutu repuburice of Rwanda.

Ni ibyapa ndangakerekezo kimwe kiragaragaza ko imbere hari umuhanda utambika, icyapa cya kabiri kiragaragaza ko imbere hari umuhanda w'inzira y'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, kuri uyu muhanda wa kaburimbo iruhande hariyo amazu aturirwamo ageretse bigaragara ko ari nk'itaje, ariko iyi taje ikaba yaragenewe guturwamo.

Iyi ni kaburimbo, kaburimbo haragaragaraho imirongo y'imyeru yambukirwaho abanyamaguru.

Ni umuhanda w'igitaka ukomeza muri uyo muhanda w'igitaka impande n'impande hagiye hari amazu y'ibipangu aturirwamo n'abaturage.

Ni umuhanda wa kaburimbo ukomeza impande n'impande, impande hamwe hari jaride y'ibiti, hirya hahagaze umupolisi hepfo hari inzira y'abanyamaguru, ibinyabiziga bigeze mu nzira y'abanyamaguru bigenda, hari ivatiri cyangwa se iyo bita Parado na moto.

Ni umuhanda wa kaburimbo ukomeza ugenda. Muri uyu muhanda wa kaburimbo hari imodoka iri guturuka ruguru izamuka, bigaragara ko ari nka Rava.

Ni umuhanda wa kaburimbo muri uwo muhanda wa kaburimbo harimo ikinyabiziga cya moto kiri kugenda, iyi moto ni imwe ikaba itwaye umugenzi umwe, mu muhanda wa kaburimbo ukomeza, hepfo y'umuhanda hari undi muhanda umanuka ariko iyi moto yo iri kugenda ikomeza.